Hari abagore bari ahantu hamwe bahagaze bose, bamwe bafashe ku ntebe, inyuma ku kibambazi hari ibishushanyo birimo inzu ndetse n'ibiti bihagaze.

Ni ivomo rikikijwe n'abaturage, harimo abana, abagabo n'abagore, hari umwana umwe urimo uravoma, hari n'undi mugore urimo gupompa kugira ngo amazi azamuke.

Bari bicaye ku ntebe z'imikara, bazengutsa ameza, buri wese yabaga areba undi, harimo abagabo bane, n'abagore bane, basaga nk'abari mu itsinda.

Uyu mwana w'umukobwa wambaye iniforume arimo arakaraba intoki, akarabira mu ibase, inyuma yiwe hari inzu yubakishije amatafari.

Ni abana benshi bahagaze inyuma bafite impapuro mu ntoki ndetse hari n'abagabo batatu, umwe ni we wasaga nk'utanga izo mpano.

Abagabo n'abagore, harimo abagabo bambaye amakoti n'abambaye amashati, bicaye ku ntebe z'icyatsi kibisi, imbere yabo hakaba hari ameza ndetse ayo meza ariho amasahani.

Abana babiri bagaragara ko harimo umukuru n'umutoya, barapfukamye barimo baravoma amazi, bakoresheje ijerekani rinini n'iritoya, aho bavomera harimo amabuye muri ayo mazi bari kuvoma.

Amatiyo abiri niyo yamenaga amazi, irindi rimwe ryari rifunze. Abantu bari bakikije ivomero bafite imbegeti, abandi bafite amajerekani. Undi mugabo nawe yari arimo afungura iryo tiyo ritari kuzana amazi.

Ni ivomo ririmo rizana amazi, hariho umwana wambaye ishati y'umutuku, urimo gukaraba intoki, hariho ikirango cy'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu.

Mu ivomo ryubakiye risize amarangi y'umuhondo, ay'umweru n'ay'ubururu, hahagaze abamama bafite amajerekani ndetse n'undi umwe wari uri kuvoma ayo majerekani.

Ni ivomo ryubakiwe na sima, hariho abadamu batatu, umwe yavomaga, abandi babiri na bo bapompaga kugira ngo amazi azamuke.

Umusore uhagaze wambaye ipantalo y'umukara, inyuma ye hari inzu ifite imiryango n'amadirishya, ku ruhande hari imikindo ibiri ndetse n'ubusitani.

Hari abagabo n'abakobwa, bamwe bicaye ku ntebe z'imituku, abandi bahagaze, harimo abambaye amashati y'umweru n'abandi bambaye imipira y'imikara, bari mu mbuga yubakishije amabuye.

Ni umuntu wicaye hasi, witangiriye itama, wambaye imyenda yacikaguritse, akaba yambaye n'urukweto mu kuguru kumwe mu ntoki ziwe akaba afite ishashi irimo amazi.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abahagaze n'abicaye, harimo abagabo bambaye amadarubindi, harimo n'abagore bambaye amadarubindi, harimo abagabo bambaye amashati y'umweru, harimo n'abagabo bambaye amashati y'umutuku.

Ni umugore uhagaze imbere arimo arasobanurira abantu bicaye ku ntebe barimo baramureba, ndetse n'amatara yarimo yaka mu gihe yarimo asobanura.

Umunsi w'ubuzima bwo mu mutwe ku Isi, imbere hicaye igitsina gore cy'abantu batatu n'igitsina gabo batatu, imbere yabo hicaye abantu mu ntebe z'imikara babakurikiye, bari kumva ibyo bari kuvuga.

Ni umugabo wasamye, wambaye umupira w'umweru, uri kugerageza gukura iryinyo ry'iwe, akoresheje urudodo yaziritse kuri iryo ryinyo ry'iwe.

Iki ni icyumba cy'ubuvuzi, harimo intebe y'umurwayi, hakaba harimo intebe ya muganga, hakaba harimo isakazamashusho ya Mudasobwa, hakaba hari n'umutako uri ku gikuta.

Ni buvuzi buri gukorerwa umwana, wicaye ku ntebe, wambaye umupira w'umukara, wasamye, hari umuganga w'umusore uri kumurebera mu kanwa, n'undi mugore uri ku ruhande wamufashe mu ijosi, imbere y'uwo mwana hari impapuro ziri ku meza n'ikaramu.

Yari umusore ufite imisatsi myinshi, wari uryamye agaramye kandi yasamye, yari yambaye imyenda y'umukara, yavurwaga n'umuganga wambaye ga z'ubururu.

Ni umukobwa n'umuhungu, umukobwa ufite imisatsi bose bambaye imipira y'imyeru, barimo baragaragaza inyinya n'amenyo yabo.

Ni umucecuru wicaye ku mukeka urimo gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yiwe hari ibiti birebire, naho hakurya yiwe haparitse imodoka.

Abakecuru babiri bambaye imikinyero y'umweru n'amatisheti y'umutuku, bafite inkoni mu ntoki, umwe ateza igitambaro, undi ntacyo ateze, bari kugenda mu muhanda w'ibitaka.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byo kwa muganga, ibitanda, aho babika imiti, harimo abantu babiri, umugabo n'umugore, umugabo yari yambaye umupira w'umukara, umugore yari yambaye ipataro y'umukara.

Umusaza uryamye mu gitanda cyo ku bitaro, imbere ye hahagaze umuganga, iruhande rwe hari icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, kigapima n'uburyo umutima uba uri gutera.

Ni igisoro gifite inka hejuru kikaba gikinwa n'abantu babiri buri wese akaba afite inka zifite ibara ryihariye, hakaba hari n'umugabo urimo gukina icyo gisoro.

Ni umuganga w'umugabo wambaye imyenda yu'ubururu, ufite ibikoresho by'abaganga mu ijosi, yahuje umutwe n'umugore wambaye umukufi mu ijosi, akaba afite n'inkoni mu ntoki.

Ni umwana ufite imisatsi myinshi wicaye ku ntebe, ari kumwe n'umusaza wicaye ku igare rikoreshwa n'ababana n'ubumuga, inyuma yabo hari amadirishya.

Ni abamama batatu bagaragara nk'abakuze, umwe muri bo bafite imvi nyinshi, bafite terefone y'umukara barimo baseka ubwo bafataga ifoto.

Bari abagabo batanu ndetse n'abakobwa babiri, muri abo bagabo batanu babiri bari bambaye amakote, abandi batatu bari bambaye imipira iciye amaboko ndetse n'amatara yakaga.

Umufasha w'Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Kagame ari imbere y'indangururamajwi ebyiri, aratanga imbwirwaruhame ku bukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe.

Ni ikirango cy'ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda gifite inyajwi eshatu r, b, c ndetse hasi hakaba hari amagambo : umuturage muzima, igihugu gikize.

Ni ikirongozi kigiye gifite imiryango, gifite amatara hejuru, gisakaje amabati, ku mpande hari ibyuma bigiye bihakikije.

Ni icyumba cyo kwa muganga, gicanyemo amatara, harimo igitanda, ameza, umuryango wacyo ukaba ufunguye.

Ni icyumba cyo kwa muganga, gifite amadirishya abiri, kirimo ibitanda bine, bibiri bifite amapine, ibindi bibiri biriho abarwayi, hejuru hamanitse inzitiramubu kuri buri gitanda.

Umwana w'uruhinja wambaye ingofero y'umweru irimo utudomo tw'umukara, ateruwe mu ngobyi y'umweru, yarateruwe na mama wiwe wambaye ishati y'ubururu ubwo umuganga yabaga ari kureba mu maso y'urwo ruhinja.

Mu kigonderabuzima cya Rwerere, kiriho amarangi y'umuhondo, gifite imirasire hejuru ku mabati, igipangu cyubakishije amatafari. Gifite ubusitani, burimo indabo.

Ivuriro ry'amagorofa atatu, rifite ibirahure ry'ubururu, imbere yaho hari imikindo, hari n'icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira.

Ni inzu isakaje amabati y'ubururu, ikaba ifite imiryango n'amadirishya by'umweru, ikaba isize irangi ry'umweru, ikaba ifite ubusitani buteyemo indabo, mo imbere yaho hari ikirangantego cy'igihugu.

Ni ibikoresho byo mu cyumba cy'abarwayi, harimo ibitanda by'abarwayi, hakaba harimo utubata two kubikamo ibikoresho, hakaba harimo intebe ya muganga.

Ni ibitaro bya Kabgayi byubakishijwe amatafari, umuhanda ujyayo ni uw'ibitaka hakaba harimo n'abana bahagazemo imbere.

Ni inzu nyinshi zisakaje amabati atukura, zisize amarangi y'umweru, zifite imiryango n'amadirishya, amatara yakaga, imbere y'izo nzu hari hahagaze abantu.

Ni sare nini yo kwakiramo abarwayi n'ibitanda by'abarwayi, harimo amarido, harimo ibikoresho biri ku gikuta, hakaba n'amadirishya manini.

Ni icyuyuma cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye hari n'ibitanda n'ibindi byifashishwa mu buvuzi, hahagazemo umuntu urimo wambaye ga n'inkweto z'umweru.

Icyumba cy'umurwayi, kirimo intebe ya muganga y'ubururu, igitanda cy'umurwayi, isakaza mashusho ya orudinateri, isaha, kikaba gisize amarangi y'umweru, gifite amadirishya maremare.

Ni amoko y'ibiryo bigiye bitandukanye harimo imineke, inyama, amagi, imboga rwatsi, ku ruhande hari icupa ririmo amazi.

Igare ryifashishwa n'ababana n'ubumuga rifite amapine ane, amapine abiri y'imbere n'andi mapine abiri y'inyuma, rifite amahembe abiri, rikaba rifite n'intebe y'umukara yo kwicaraho.

abagore babiri umwe n'umuzungudu umwira bura bari kumwe n'umwana wicaye hakiri ruhanga hari'hebe akaba harimo n'abandi bantu bari ku ruhande

Iyi nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibyuma bitandukanye, hakaba harimo umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, hakaba n'undi mugabo uhagaze ku ruhande, uri kumureba.

Icyuma cy'ikoranabuhanga, gifite amapine ane, abaganga bifashisha baganira n'abarwayi, batari hamwe, bari ku ntera ndende.

Ni ikibuga cya sima kirimo imirongo y'umweru, icyo kibuga kirimo abana b'abahungu n'abakobwa kandi abo bana bagiye bari ku mirongo itandukanye, mo hagati harimo abatoza babo bambaye imyenda y'umweru.

Ni abahungu n'abakobwa bahagaze, bambaye imyambaro y'ibirango by'umuryango utabara imbabare, hasi hari undi muntu wicaye, uryamye bafashe mu ijosi.

Ni icyumba k'imyitozo ngororamubiri, gifitemo imashini kikaba kigira ama etajeri abikwamo ibikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri.

Ni icyatsi gitoshye, gifite amababi maremare, kikaba gikikijwe n'utubuye duto duto, muri utwo tubuye harimo utubuye tw'umweru, hakaba harimo n'utubuye tw'umukara

Ni amoko abiri y'ibyatsi, harimo ibirebire n'ibigufi. Muri ibi byatsi harimo ibifite indabyo iz'umuhondo, iz'umutuku ndetse n'iz'umweru.

Ibirahure bibiri, ibyo birahure babiri buri kirahure, kirimo amazi n'ibibabi, ikindi kirahure kirahure kirimo amazi n'ibibabi, ariko ibyo bibabi birimo biratandukanye, impande zaho hari ikibabi.